Telelefogisi ni umuti wifashishwa ,nko mu gihe abantu bashaka gutera imitunguru umuti wabifasha, cyangwa se intoryi, ibirayi ndetse n'ibigori ,kugira ngo udusimba tudakomeza kubirya, cyangwa se tudakomeza kubyangiriza.

Gucucira imyaka ni iby'ingenzi cyane bitewe n'uko bifasha imyaka kuba yakwera vuba kandi mu gihe gito. Bidasabye kugira ngo bigorane cyangwa se bice mu gihe kinini cyane.

Yire ni ifumbire ikoreshwa mu birarayi, ibishyimbo, ingano cyangwa se mu gihe umuntu ashaka kugira ngo yuhire imyaka ye yere ku rugero rushimishije akoresha ifumbire ya yire.

Gucucira ibihingwa ni kimwe mu gikorwa gifasha ibihingwa, cyangwa se gutera umuti ni kimwe mu gikorwa gifasha ibihingwa, dore ko iyo biteye umuti bitabashwa gufatwa n'indwara z'igiye zitandukanye izo arizo zose.

Detani rero ni umuti abantu bakoresha batera ibirayi bawurinda cyangwa se n'ibindi harimo n'ibishyimbo n'ibindi byinshi, n'amatungurusumu kugira ngo bayirinde udukoko tubyangiriza.

Ifumbire mvaruganda bayikoresha mu gihe bashaka kugira ngo ibihingwa byere cyane cyangwa se bitange umusaruro kuruta uwo byatangaga mu gihe cyashize cyangwa se kugirango bibe bisa neza.

Ubungubu ni ubwato nyine abantu bagendagamo bagiye gukora ingendo zitandukanye bakava ahantu hamwe bakaja ahandi, cangwa se bagiye mu mwuga wo kuroba gushaka amafi ,cangwa se mu gihe bashaka gutwara ibicuruzwa bakabivana ahantu hamwe bagahita bijana ahandi

Inyama z'ifi ni nyama zikunzwe cyane dore ko ikiro gikunda kujya kigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitatu cyangwa se inusu ibihumbi bibiri cyangwa se icyatanu.

Amafi ni akanyamaswa cyangwa se agatungo gakunzwe, dore ko gatanga ibintu bijyanye n'ama vitamine a cyangwa se c, dore ko abantu benshi banavuga ngo amafi ajya atera ibintu by'ubwenge.

Amakaroni ni kimwe mu biryo bikunzwe, dore ko ubu gikoreshwa cyane no mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko bakaba bavuga ko amakoroni akunzwe mu gihugu cy'ubushinwa cyane.

Ifi kamwe mu kanyamaswa bakunda kujya kararagira inyama zikunzwe, dore ko wowe ikiro kijya kigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine ndetse na bitatu cyangwa se inusu ibihumbi bibiri.

Tomusoni ni amafi ,ariko mbere yuko batangira kujya bararya ,babanza bayakorera ibintu bita kuyakawusha, kuyakawusha ni ukumera nk'aho uyokeje ,cyangwa se ukayababura ,deni ukayashyira ahantu ukaba uyabitse, igihe uyakeneye icyo ari cyo cyose, ukazagenda ukayafata.

Amasambaza ni udufi dutoya tuba tutarakura, tuba turi gupima hagati y'amagarama abiri n'atatu ariko abantu bakaba badukunda cyane, tuba tugiye kwifata nk'injanga ariko ntabwo aba ari injanga neza kuko ziba ziruta injanga ho gatoya.

N'icyokezo nyine bocerezagaho amafi cangwa se n'izindi nyama zigiye zitandukanye. Harimo nka burushete, cyangwa se mugihe urikumva ushaka no gushiraraho ibitoki, cangwa se ukumva ushaka kotsaho ibindi bintu; nabyo wabishiraho abaga ari nta kibazo.

Aho ngaho go ni umugezi guri hagati y'imirima, bavomagamo amazi bakabasha gucucira imyaka zabo neza cane, kugira ngo ibintu imyaka zituma cangwa se zitagira ikibazo co kubura amazi.

Amafi ni muri kimwe mu nyama zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ikiro cyangwa se inusu, ikiro gihagaze amafaranga ibihumbi bine, naho inusu yo ikaba ihagaze amafaranga ibihumbi bibiri.

Inyama z'amafi ni inyama zikunzwe cyane. Bitewe n'uko ikiro kiba kigiye kungana n'icy'inyama z'inka. Kikaba kigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine ariko inuso ika igura ibihumbi bibiri.

Amafi rero nayo ari mu bwoko bw'inyama zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ikiro cy'amafi cyangwa se inusu, ikiro kigura hagati y'ibihumbi bitatu magana inani n'ibihumbi bitatu magana atanu.

Ibirayi ni igihingwa giterwa mu butaka kikaba cyerera hagati y'amezi ane n'atandatu, bikaba biterwa n'ahantu biteye. Iyo biteye ahantu mu majyaruguru byerera atandatu, haba ari mu burasirazuba ni amezi ane.

Imboga ni kimwe mu gihingwa gikunze kuvugwa n'abaganga kenshi ko kivura indwara ariko imboga zifashishwa cyane nko ku bana kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, nabo bazagire ubushobozi mu mubiri wabo kugira ngo ushobore guhangana n'indwara.

Injumbu cyangwa umurima ni ahantu haba hadatuwe, abantu bagenda bagahinga imyaka yabo cyangwa se bakaharaza kugira ngo umurima wongere ugarure ibintu by’ubuyanja, kugira ngo uzabashe kwera imyaka isobanutse.

Aho ngaho ni mu hantu nko mu kibuga abantu bahurira bakajya bakina umupira, cyangwa se mu gihe barikumva bashaka gukora siporo, bakirukanka bari kuzenguruka muri icyo kibuga.

Inturusu ni m kimwe mu gihingwa gikunzwe cyane hano mu gihugu, bitewe n'uko gitanga umusaruro ibiti byayo bikaba bivamo imbaho zikomeye cyangwa se bakabikoramo inzugi n'ama parofo.

Aha ho bahitaga mucate, kuko nyine naho babaga batari batangira kuhahinga nezazi. Ahantu batari batangira guhinga neza nyine bagisarura ibintu, bayihitaga mu cate nk'ushaka kugwatiza umuntu uzanaga amafaranga bakaguba ugatangira guhinga.

Izi ngizi zo ziba imboga rwatsi nyine zitwa ibintu bijanye n'amasereri. Ariko nyine nk'iyo uzigeretse ku ntuza ziryoha ari uko nyine wahise uzikaranga cyangwa ukazivangamo n'ibishyimbo, ugakaranga ugashyiramo n'amavuta agiye aringaniye.

Iki gihingwa co citwaga karoti abantu baragihingaga kugira ngo bagikoreshe mu ngo zabo cangwa se kugira ngo bakijane ku soko, abantu bagikoreshe nk'imboga kuko nyine gikundaga kuryosha ibintu bijanye n'amasosi.

Garaviye ni tumwe mu tubuye abantu bifashisha, bashaka kugira ngo badufate bakatuvanga na sima, dufasha sima kugira ngo ikomere cyane, ntibashe kuba yazamo ibintu bijyanye n'imitutu.

Ikingiki co cibaga igitoki cane Kibaga igitoki ariko hari igihe ugitaze cangwa se ugahita ugiteka ako kanya ugahita ukijya ariko kijyohaga ari uko umanjije wagitara ukakijyamo imineke, ni ho bibaga ari byiza kurushaho.

Iki cyo ni igiti cy'avoka cyeraho amavoka. Ariko wagira ngo ni ingumba kuko nta avoka n'imwe irimo. Iyo nta avoka n'imwe iri muri iyo avoka bahita bacyita ingumba, kuko nta bwo kiba gitera.

Ibirayi ni ibihingwa bifitiye igihugu umumaro ,bitewe n'ukuntu bitanga umusaruro uri hejuru ku batuye igihugu, cyangwa se inyuma y'igihugu kubera bitanga amafaranga menshi cyane.

Ibirayi ni kimwe mu gihingwa gikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'umusaruro gitanga kandi cyerekana mu gihe gitoya, kubera ko mu mezi atatu cyangwa se ane kiba cyatangiye gusarurwa.

Ibirayi ni kimwe mu gihingwa ngandurabukungu u Rwanda rufite, bitewe n'ukuntu Abanyarwanda bagikunda cyane, akaba ariyo mpamvu kiba cyazamutse ku biciro, ugasanga nko muri iki gihe igiciro cy'ibirayi kiba kiri kugura amafaranga maganatandatu maganatanu.

Igihingwa cy'amajeri ni igihingwa kigora cyane dore ko kera ahantu hakunze gushyuha cangwa se hatari n'ubukonje bwinshi cyane kikaba kerera hagati y'amezi ane n'atandatu.

Urutoke ni kimwe mu bihingwa kigamijwe gukoreshwa imirimo igiye itandukanye. Harimo ibintu bijyanye no gukora urwagwa cyangwa se n'ibintu bijyanye n'imineke cyangwa se n'amaji.

Izingizi zo bazitaga inanasi, zirajyohaga cyane ariko ukizisarura uhita utangira kuzijya ugahita utangira kuzifata ukazikoresha hari n'abazifataga bakazikoramo ji.

Ubu ngubu bwo ni ubuhinzi bujyanye n'inyanya kubera ko nyine uri kubona banakoreshaga ibigega bashaka kugira ngo babashe nko kuzuhira， kubera inyanya zikundaga kuba ahantu hari amazi menshi cyane azihagije.

Ahangaha ni musoko, ni ahantu bacuruzaga ibintu bijyanye n'ibirayi, ibishimbo, imyumbati amakara cangwa se umuntu ushaka ibitoki. Ariko hano ngaha bacuruzaga ibintu bijyanye n'ibyo kurya gusa.

Igihaza ni igihingwa kijya gikundwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko bitewe n'ukuntu abenshi na beshi bagikunda, kubera ukuntu gitanga akanyamuneza k'uwakiriye.

Ibigori ni igihingwa gikunda kujya kirerera ameziga ari hagati y'ane n'atandatu, bijya biraterwa n'ahantu wagiye uragihinga, iyo wabihinze inaha mu Majyaruguru byerera amezi atandatu.

Icyayi ni igihingwa gihingwa, ariko mbere y'uko bagikoresha, bakamanza bakinyuza mu ruganda, mbere y'uko batangira kugikoresha ngo bakinywe, cyangwa se bagikoreshe ibyo cyagenewe.

Inka ni itungo rikunzwe hano mu gihugu cy'urwanda bitewe n'ukuntu itanga ifumbire nyinshi, kandi ikajya itanga n'ibintu bijyanye n'amata, ikarekuza n'amafaranga.

Marakuca ni itunda riryoha cyane, ariko nko mu gihe rikuze ni bwo ritangira gusa n'umukara ariko iyo ritari ryakura riba risa n'icyatsi. Ryera ku kintu wagira ni akagozi karekare.

Isombe ni ziimwe mu mboga zikunzwe， dore ko bazikoresha ahantu hatandukanye， hajyanye no mu bukwe，murugo cyangwa se mu gihe nko kwa muganga ufite amaraso makeya， bashobora nko kugutegeka ngo ukoresha ikintu kijyanye n'i isombe， aba aricyo urya.

Ibingibi byo ni ibiribwa by'ibishimbo kenshi na kenshi ariko babyitaga gatuku. Bikoreshwaga bari kubiteka kubera bibaga byumye barabitsimbaga, iyo bamaze kubitsimba bahitaga babibika bakazaja baragenda barabigereka ku birarayi cangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu gihe runaka.

Umuhinzi ni umuntu wita ku bihingwa, akabasha kumenya ukuntu bimeze akabasha kubimenera, cyangwa se akabasha kubiha ifumbire akabitera umuti, akabyitaho akareba ukuntu bimeze.

Ibigori byokeje ni ibigori bikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko biba bigifite vitaminini zuzuye kandi bikaba bikimeze neza cyane, nicyo gituma abantu babikunda.

Ubungubu bwo ni ubuhinzi :ni ahantu bahingaga ariko bagahinga ahantu mu bintu bijanye n'amatarasi .Amatarasi ni ahantu nyine hari umusozi bagahita batangira guca ibintu bimeze nk'amasikariye. .

Umuhinzi ni umuntu uba abasha gukora umurimo wo kujya yita ku bintu by'ibihingwa, kugira ngo amenye uko bimerewe cyangwa se amenye uburyo ari bubifashe, bigafasha kwera vuba, n'ukuntu ari bubihe ifumbire bikabasha gushisha bigatanga umusaruro uboneye.

Imyumbati ni igihingwa gikorwamo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo nk'ifu y'ubugari cyangwa se bakagenda bakayibika bityo bakazayirya cyangwa se bakayikoresha n'ibindi bintu.

Ibingibi byo ni ibigori biri hagati y'amezi angahe atatu n'ane bitari byakura neza. Nk'iyo bimaze gukura neza barabifataga bakabikata cangwa se bagahita basaruraho ibigori. Nk'iyo nka guca bimeze, hari ukuntu ahitaga abikata akavanamo ubwatsi bw'inka.

Izi ngizi zo ni karote zikundaga gukoreshwa mu bintu bijanye n'isosi cyangwa se kwa muganga bakaba bazigutegeka ngo uje urazirya niba ugwaye amaso zirafashaga cane mu gukiza amaso cyangwa guhindura ibara ry'amaso umweru.

Aha ngaha ho ni ahantu bari buhinge imboga zijyanye n'amashu. Ariko bakoresha umupira w'amazi kugira ngo babashe kuzuhira cyangwa kuzicucira, ngo zimererwe neza bazirinde izuba.

Amashu ni kimwe mu bihingwa gikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko cyifashishwa nk'imboga, kenshi na kenshi ahantu hahuriwe n'abantu benshi, nko mu bigo by'amashuri cyangwa se mu bigo bya gisirikare.

Ibitoki ni muri kimwe mu bihingwa bikunzwe, bitewe n'ukuntu bikorwamo ibintu byinshi bitandukanye; harimo kukirya cyangwa se kugitara kikavazavamo imineke n'ibindi.

Ibi ng'ibi byo biba ibiti bivangwaga n'imyaka kugira ngo birinde isayo cyangwa se birinde inkangu mu misozi kugira ngo ibihingwa bitamanuka cyangwa se bikagira ikindi kibazo. Ibi biba ari ibihingwa bivangwaga n'imyaka.

Ubu bwo bajaga barabwita ubuhinzi bujanye n'amatunda mbese y'ushaka amatunda umukara, umweru, umutuku mbese habagamo ubwoko bwinshi bugiye butandukanye biterwaga n'amatunda uri kumva ushaka.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko gikunze kuvamo ifu y'ibigori, bakabasha kuba bayitekamo. Cyangwa se ikaba yavamo kawunga, cyangwa se kikaba cyavamo n'ifu y'igikoma.

Ugu ngugu gwo ni umurima gw'ibigori ariko bitari byakura bikiri bitonya ,bifite nk'amezi gagera muri atatu cangwa se ane ariko nyine nkibingibi hari igihe bahise babifata bagahita babyahirira inka.

Agangagago gabaga amashu gahingwaga, ni igihingwa kijanye n'imboga, nyine igihe ushaka kugereka cangwa se igihe ushaka guteka isosi, ufataga gano mashu ukagakataguramo uduce dutonya, ubundi warangiza ukavanga n'ibindi bintu urakoresha bikavamo isosi.

Icyayi rero ni kimwe mu gihingwa ngandurabukungu cy'u Rwanda, dore ko cyinjiza amafaranga menshi cyane, ikiro kikaba kiri hagati y'amafaranga magana atanu cyangwa se magana ane.

Izi zo bazita intoryi, bazikoresha mu gihe bagiye guteka isosi cyangwa se nk' umuntu waraye unyoye inzoga bamutekera tuno dutoryi, kuberako nyine iyo uturumyeho wumva harimo agasharire gakenya, ni yo mpamvu bakoresha zino ntoryi kugira ngo asinduke.

Agago ni amatunda gitwaga marikuca nk'iyo ushaka kujya urubuto rujyohereye cane ubaga wifatiye runo rubuto rwitwa marikuca akaba ariwo wikoreshereza gabaga gagiye gusa nk'amatunda g'amoronji cyangwa se ubuze umwembe wahita wifatira gano gitwa marikuca.

Icyayi ni igihingwa gikoreshwa mu bintu bitandukanye ariko ukaba ushobora gutangira kugikoresha, ari uko cyanyuze mu ruganda cyangwa se cyabanje gutunganywa. Iyo kitari cyatunganywa rero dore ikiro jya kirishyurwa amafaranga ari hagati y'ijana na maganabiri.

Icyansi cyangwa se igicuba, ni ikintu babikamo amata bakabasha kuyatunganyirizamo, bakazabasha kuyakuramo umusaruro uhagije.

Pavuro ni igihingwa gikunzwe bitewe n'ukuntu kibasha kuryoshya ifunguro ry'abantu. Bakifashisha rero bari guteka isosi cyangwa se bakora ibindi bitandukanye.

Abahinzi ni abantu babamo amoko atandukanye. Hari abahinzi bajya bahingira abandi ,hari n'abahinzi bajya bahingira ibintu bijyanye n'amafaranga.

Ipera ni kimwe mu gihingwa gikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko umuntu wagikoresheje cyangwa se wakiriye, bivugwa ko bimurinda kurwara indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Iki giki nyine bacitaga ikijumba ,ariko bitewe n'ukuntu kingana bacitaga ikijumba ca mugorora ,bitewe n' ukuntu kibyimbye, kibyibushye, iki n'ikijumba ca mugorora ,nkiyo nyine ushaka kugiteka wowura washaka kucotsa, washaka wagishira mu nkono ,abaga ari nta kibazo.

Izi ni imyumbati nyine zeraga ahantu muri kira gice cira hepfo mu majyepfo bw'amajaruguru, niho izi myumbati zikunze kuzaja zirera naho ino ruguru ho ntago zijaga zirahakunda kubera ukuntu habaga hakonje cyane. ariko mu gice co hepfo y'amajyaruguru ziraheraga cane.

Iri ng'iri jyo bajyitaga ipera, ni kimwe mu rubuto nyine rumeze, rukoreshwaga iyo ushaka guhita urujya, cangwa se washaka ukarushira mu kamashini kagahita garugukoreramo ikintu citwa umutobe w'amapera.

Abangaba nyine ni abahinzi borozi bahinga ibintu bijanye n'imyumbati. Uri kubona izingizi ni imyumbati, ni igihingwa ceraga neza cane c'ibinyamafufu, Iyo ushaka kugira ngo ukore, ujye cangwa se ujye uhage ukoreshaga guno mwumbati.

Urwo ni urubuto rwitwaga ironji. Ribaga rigiye kumera nka pome, ariko hari n'abandi bantu bajaga bararyita icunga, kugira ngo kubera ukuntu ribaga risa n'umutuku inyuma ku ruhu, ribaga rigiye gusa nka pome.

Ibigori ni kimwe mu gihingwa gikunze kwera hano mu Rwanda, kandi gifitiye umumaro igihugu cy'u Rwanda, dore ko gikorwamo ifu y'igikoma cyangwa se n'ifu ivamo kawunga, bigatuma inzara itica abanyarwanda.

Ibirayi bya Kirundo ,rero ni bimwe mu birayi byera cyane. Bitewe n'uko byakorewe muri kaminuza. Bakabitera imisemburo igiye zitandukanye. Ni ibintu bituma bikura vuba vuba. Byihuse kandi mu gihe gitoya.

Inyanya ni igihingwa gikunzwe gukoreshwa ahantu hajyanye no mu bintu byisosi, mu masarade, bitewe rero n'ukuntu zigira ishusho nziza cyangwa se ibara ryiza ry'umutuku, bituma abantu bazikunda cyane.

Ibidodoki ni rumwe mu mboga rukoreshwa mu Ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu zindi ntara. Ariko cyane cyane rukaba rukoreshwa mu majyaruguru dore ko anariho rukunze kwera ariho rukunze kuboneka.

Ikingiki nyine ni igitoki citwa inyamunyu bitewe n'ukuntu kireshya, ni kirekire. Iyo igitoki ari kirekire gucyo nyine bacyita inyamonyu bitewe n'ibitoki kiba gifite. Ni yo mpamvu bavuga ngo iki gitoki inyamunyu.

Marakuca ni amatunda abasha kwera asa n'icyatsi, ariko iyo amaze gukura aratukura akaba umukara, ariko nk'iyo amaze kwera neza cyane ni bwo iyo amaze kuba umukara ni bwo bahita batangira kuyasarura.

Ifumbire mvaruganda bayifashisha bari kugira ngo ibihingwa bibashe kubona umusaruro cyangwa se babashe kubona ibintu byinshi biri hejuru y'ibyo bari biteze bitewe n'ifumbire bakoresheje.

Ubungubu ko nta hantu ubuhinzi bujanye n'amatunda, ariko amatunda matonya cane yakundaga kubaga, guhingwa ahantu mu majaruguru, ahantu hadashyuhaga, ahantu hakonjemo gake.

Ifumbire mvaruganda ni ifumbire yifashishwa mu gihe abantu bashaka gutera imyaka yabo, kugira ngo izatange umusaruro mwinshi kandi uboneye. Bakunda rero kwifashisha ifumbire mu gihe bari butere imyaka.

Aba babaga babaga abahinzi, bahembwaga amafaranga gabaga hagati y'icatanu na bi na bibiri. Biterwaga n'umukozi uwo ari we ,iyo ari umugabo abaga ari guhembwa icabiri, iyo ari umugore abaga ari guhembwa igihumbi.

Izi zo ni imboga gwatsi bazitaga dodo cangwa se inyabutongo. Iyo umuntu agiye guteka isosi cangwa se ikindi gifatisho bararisha umutsima, cangwa se bakazigatira mu mpungure ni izi ngizi bifashishaga.

Abahinzi n'abantu bita ku bihingwa, bakareba ukuntu bimeze cyangwa se ukuntu biteye, bityo bakabasha kugira ngo babyongerere ubushobozi, bizabashe gutanga umusaruro ufatika.

Ibijumba ni kimwe mu gihingwa gikunda kujya kirera mu bice bijyanye no mu majyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba ariko hantu ho mu majyaruguru nko mu karere ka Musanze.

Urunyanya ni kimwe mu gihingwa gikundwa hano mu Rwanda, dore ko bajya baracyifashisha mu bintu bijyanye n'isosi, cyangwa se mu bintu bijyanye na biriya bategura by'amasarade.

Ibijumba ni igihingwa cy'ikinyamafufu gitera imbaraga, ariko kikaba cyera mu nce zitari zose zo mu gihugu nko mu majyaruguru ntabwo ibijumba bikunda kujya bira ahera cyane , byera mu nce z'iburasirazuba, mu nce z'iburengerazuba no mu majyepfo.

Nyine hano ngaho bari kurobanura ubunyobwa baribukuramo amabuye, cyangwa se ubunyobwa batatonoye neza, bakabuvanamo bagahita bashiramo ubundi. Ubundi nyine n'iyo baburangije bahita bagenda bakabusya, bakabukuramo ifu barangiza bagahita babujana ku isoko.

Iki ngiki co citwaga ikirunga ni ikirunga ca Sabyinyo kiri hejuru, hejuru haco hariho baravuga nka ngo habagaho ngo ikintu c'iciyaga, iyo ushaka kukireba nyine wegeraga abantu babishinzwe bakajya kukikwereka.

Ingano ni igihingwa gishobora kubyazwamo umusaruro, nk'ifu, cyangwa se ifarine, bayifashisha bari gukuramo amandazi, cyangwa se bakaba bakuramo ibintu bijyanye n'imbada.

Igihwagari ni igihingwa kijya gikorwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo amavuta yo kurya, amavuta yo kwisiga ariko bo bakaba bagikoresha no mu gihe kitari cyanyura mu ruganda.

Aga ng'aga ubwo gabaga gitwa masaka nyine nk'iyo umuntu agahinze agasaruraga hagati y'umwaka cyangwa amezi icenda .Aga ng'aga gavaga mo ifu y'igikoma cyangwa se umutsima gw'amasaka cyangwa se bakagwengesha ibintu bijanye n'imisururu.

Ubungubu bwo ni ubunyobwa bajaga barakoresha igihe uri kumva ushaka gukora isosi ibaga imeze neza. Urabufataga ukabutonora ukabavanaho biriya bishishwa noneho warangiza kubikuraho biriya bishishwa ugahita utangira kubuteka.

Ibishyimbo bya nyiramukara rero hari ukuntu abantu benshi babivugaho ibintu byinshi bitandukanye. Harimo kuvuga ngo ibishyimbo bya nyiramukara bijya biravura igifu n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko ibishyimbo bya nyiramukara ni kimwe mu kiribwa cy'ibishyimbo gikunze kuryoha cyane.

Ubungubu ni ubuhinzi bw'ibishimbo nyine ariko bugezweho bukogwaga neza kinyamwuga, bitewe nukuntu bumeze nukuntu babushingiriye ni ubuhinzi bugezweho bw'ibishimbo.

Ibi ngibi byitwa ibishyimbo nyine. Ni bya Ruvuninkingi ni ko babyita kubera ukuntu bibyibushye. Kandi bimara igihe kiri hagati y'imyaka itanu n'icumi bitari byava mu butaka wabihinzemo, bikibasha kweraho ibindi bishyimbo.

Amashaza ni kimwe mu gihingwa gikunzwe hano mu Rwanda bitewe nuko kidapfa kwera ahantu aho ariho hose habonetse kenshi kera mu bice bishyuha cyane.

Umuceri ni igihingwa gitegwa ahantu hahora hari amazi, ariko kigategwa ahantu na none hahora hashyuha kugira ngo cyere vuba.

Ubuhunikiro ni ahantu bafata ibintu bijyanye n'ibiribwa cyangwa se bicuruzwa nk'ibigori cyangwa se ibishyimbo, bakabijyana hano, bakagenda bakaba babihabitse, bakabibyazamo umusaruro.

Ahongaho ni mu soko ricuruzaga ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibigori cangwa se amasaka n'ibindi byinshi cane. Iyo harimo nk'amasaka, iyo ushaka kugura nk'amasaka yo kubetesha canga se ibigori.

Igihwagari ni kimwe mu bihingwa bihenze hano mu Rwanda cyangwa se ibihingwa bikunzwe, dore ko ibi bihwagari bikunda gukoreshwa babivanamo amavuta yo kurya ndetse n'ayo kwisiga.

Ubu bwo bwitwaga ubunyobwa. Babaga bari kuburobanura bari kubuvanamo ibintu by'amabuye, cyangwa se ibintu by'imisenyi, cyangwa se ibishishwa bibubagaho, kugira ngo babashe kugenda bakabusya babuvanemo ifu, aba ariyo bakoresha.

Bano ngaba babaga bari gugosora ingano bari kuzitandukanya n'izindi bari kuvuga ati: "Reka tuzivanemo amabuye noneho tubashe kuzijana ku isoko cangwa tubashe kuzibedesha natwe tuzinywemoga kugirango ngo natwe tuzibere ukuntu ukuntu twabikora."

Agangaga go bagitaga amajeri gakundaga gutegwaga, kera mu gihe kingana n'amezi abiri atatu se ariko bitegwaga n'ahantu wabaga wagateye, Nk'iyo ugateye inaha mu majaruguru gereraga amezi ane.

Ibigori ni igihingwa gikunze gukoreshwa， bakakivanamo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo nk'akawunga，cyangwa se bakabetesha， bakajya ku rusyo， bagakoramo nk'ifu y'igikoma n'ibindi.

Igishyimbo ni igihingwa ushobora gutera, nyuma y'ibyumweru bibiri kikaba cyatangiye gupfupfunuka, noneho nyuma y'ibyumweru nka bitatu kikaba kiri hejuru, gitangiye kuzana utubabi.

Abangababo bitaga abantu bakoraga amasuku cangwa se abakupakupa, bakoraga amasuku ahantu nko mu kigo runaka cyangwa se ahantu nko mu bigo by'amashuri, nko mu bigo by'abasirikari ahantu hahurirwaga abantu cyangwa se no mu bigo by'ibibuga.

Ibishyimbo by'imituku ni bimwe mu bishimbo bikunzwe cyane, bitewe n'ukuntu biryoha cyangwa se n'ishusho yabyo. Ukuntu biba bite amabengeza, abanyarwanda barabikunda cyane kubera kuvuga ko bitumba.

Umuhinzi ni umuntu ukora umwuga wo kwita ku bihingwa, mu gihe bifite ibibazo akabasha kubikuramo, nko mu gihe udusimba twabiriye akabitera umuti, cyangwa se mu gihe bitari gushisha akabiha ifumbire nyinshi, kugira ngo bikure bizatange umusaruro mwinshi.

Iringiri baryita isaka. Isaka nyine ubungubu guca rireze . Bazarifata bahite barica barishire hasi baryanike nirimara kwanikwa, barivanemo ifu bayibeteshemo cangwa se bayigire ute, nibarangiza bayengeshe umusururu cyangwa bayinywemo igikoma.

Iyi ng'iyi ibaga ifu y'ubunyobwa, iyo bamaze kuyibeta nibwo babashaga kuyikuramo isosi, ariko iyo batari babasha kububeta barabukaranga abantu bagatangira ku burya ari bubisi bamaze kubukaranga.

Igihwagari ni kimwe mu gihingwa gikorwamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'amavuta yo kwisiga, harimo ibintu byinshi bitandukanye, imiti, ndetse hari n'abantu benshi bagifata bakakirya ari kuriya kimeze.

Ubunyobwa butonoye ni kimwe mu biribwa bikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda doreka abeshi babirya bashakamo vitamine eyi(A) cyangwa se bashaka kugira ngo bamwe na bamwe bongere akanyabugabo.

Ayangaya yo ni amatungo yo mu rugo ajya kwitwara nk'imbata, ariko si imbataba kuko bayita ndedo, atera amagi manini ukuntu, niyo mpamvu yo abatabizi batazitandukanya n'imbata.

Abangaba ni abantu bavura inyamaswa bitwa abaveterineri. Bakora umwuga wo kuvura inyamaswa harimo imbwa, ihene, nyine ibintu byose byitwa inyamaswa ariko zo mu rugo cyangwa se inyagasozi.

Inka ni inyamaswa zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'umusaruro zitanga cyangwa se zerekana harimo: nk'umusaruro w'ifumbire, umusaruro w'amata, dore ko amatara afitiye abanyarwanda akamaro kenshi cyane harimo kurinda abana bwaki.

Ingurube ni itungo rikunzwe hano mu gihugu cy'u rwanda dore ko ritanga umusaruro uri hejuru bitewe n'ukuntu ribwagura ibyana byinshi cyane cyangwa se bitewe n'ukuntu itanga ifumbire iri hejuru.

Iyi ni isake, nyine ni yo cigabo c'inkokazi. Kugira ngo inkoko nyine nayo iturage amagi gave mo imishwi, n'uko iba yabonye iyi nkoko yitwa isake, kugira ngo babashe guhuza ibitsina, ubundi igi ribe ryizewe kugira ngo rizave mo umushwi.

Ingurube ni imwe mu tungo akunda gutanga umusaruro uri hejuru cyane, dore ko ibyara ibyana biri hagati y'umunani ndetse n'icumi ,bicyo bikaba ari byo bituma bavuga ngo, iyi ngurube itanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya.

Ingurube ni itungo rijya riratanga umusaruro uri hejuru, bitewe n'ukuntu ribyara ibyana byinshi cyane, biri hagati y'umunani ndetse na cumi na bibiri.

Inka ni itungo rikundwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ukuntu rijya ritanga ibintu bijyanye n'ifumbire, ndetse n'amata, kandi rikabasha gutanga n'ibintu by'amafaranga.

Izi ngizi nyine bazitaga inka. Ni inyamaswa zo mu gasozi, inyamaswa zo mu rugo ariko zitangaga amanta, zikanabyara inka imwe cyangwa ebyiri hagati y'amezi icyenda.

Inka ni rimwe mu itungo rikunzwe hano mu gihugu cy'urwanda dore ko baryifashisha; barikuraho amata cg se ifumbire yo kugira ngo bateze imbere umurima wabo ubashe kwera cyangwa se ubashe gutanga umusaruro ukwiriye.

Ahangaho ni ubworozi bw'amatungo gatandukanye harimo inkoko, amahene, uri kubona hari n'kiraro c'inka. Mu buhinzi ibitoki, hari n'ibishimbo.

Ingurube rero na zo ni mu matungo akunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'umusaruro atanga kuko abwagura ibyana byinshi kandi mu gihe gitoya, dore ko abyagura ibyana biri hagati ya bitandatu na cumi na bibiri.

Ahangaha nyine aba bantu bari bari gutanga amatungo magufinya. Ng'ingurube iyi ngurube rero iraryohaga cane. Kandi iyi ngurube itezaga abantu benshi imbere, kubera ukuntu ibwaguraga ibyana byinshi cane. Ushobora nko kuyigura ugasanga ikubwaguriye ibyana nka cumi na bibiri.

Umuveterineri ni umuntu wita ku nyamaswa akabasha kuzitera inkingo zitandukanye, harimo nk'urukingo rwo gutuma zikura, urukingo rwo kuzirinda indwara zitandukanye.

Izi ngizi, n’ihene n’amatungo yo mu rugo, arishaga ibyatsi. Harimo ubwoko bw’inyamabere, ariko bwo byibera.

Iyingiyi ni ingurube y'inyagasozi. Ahantu biba bitandukaniye ni uko ingurube y'inyagasozi yo iba ifite mu nda hatoya, ariko ingurube yo mu rugo yo nyine iba ifite munda hanini, harimo ibintu wagira ngo ni ibicece.

Agakende ni akanyamaswa kaba gafite imico nk'iyabantu, bitewe n'ukuntu rero abakerarugendo badukunda, hano mu Rwanda kubera ukuntu dukunze, kuhaba cyane bafata umwanzuro wo kuzana amadovize, hano mu Rwanda bakaza kutureba.

Kasuku ni inyoni ikunzwe kwifashishwa cyane bitewe n'ukuntu ikundwa, imyifatire ya yo yo kujya ifata abantu ikabasubiramo ibyo bari kuvuga, ni cyo kintu gituma abantu bayikunda.

Ako ni agakima kabisa. Gakundaga kwibera ahantu mu mashamba, gakundaga kurya imineke, kanakundaga ibintu byinshi hari n'igihe kifashishije kakira ibintu bijyanye n'intozi.

Umusambi ni akanyamaswa kaba mu gasozi ariko gakunzwe cyane, dore ko kaba gateye impuhwe cyangwa se gashimishije mu kukareba. Gakurura ba mukerarugendo ariko,...

Iyingiyi ni inyoni yo mu gasozi yitwaga matene. Nk'igihe uri kumva ushaka nko gutereta umukobwa barabikoreshaga mbere ugaca ibaba ryayo ukarishira ahantu yanyaye, ukarasiraho umwambi ngo yazaga agukuriye.

Akangaka ni akanyamasyo, kaba gafite ikintuza cyo hejuru gikomeye cane ku buryo n'imodoka ishobora kukanyura hejuru ntigira icyo kiba cyangwa se bararasaho n'isasu rigasimbuka kubera icyo kintu kiba kikoreye ku mugongo waco.

Umuserebanya ni akanyamaswa kaba mu ishyamba gapima hagati ya santimetero zirindwi n'umunani. Kakaba gakunda kujya kararya ibintu bijyanye n'iminyorogoto, udusimba, imibu n'ibindi byinshi cyane.

Aka ng'aka ni agasimba ko mu shamba bakitaga agapusi cyangwa se akanyawuku niko bakitaga. Gakundaga kuja karirira imbeba cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'udusimba two mu nsi yatwo niko kiriraga.

ingagi ni inyamaswa ikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe nuko zikunze gukurura ba mukerarugendo cyangwa se akenshi na kenshi zinjiza amafaranga ari hejuru

Inzovu ni mu nk'inyamaswa nini, dore ko vuga ko ishobora no kuba nayo iyoboye ishyamba, bitewe n'ukuntu yitonda kandi ikajya irafata mu mutwe byihuse.

Inyoni ya Gasuku rero ni inyoni ikunzwe bitewe n'imimerere ,cyangwa se imico yayo y'ukuntu ujya uvuga ikintu igahita igisubiramo ako kanya, ni kimwe mu kintu gituma abantu bagikunda muri Afurika, cyangwa se muri Aziya.

Akangaka bakitaga agakima nyine kaba kagiye gusa n'inkende ariko ntago abaga ari inkende, ni uko bubaga mu bwoko bumwe bw'inkende n'ingagi, ariko ntago abaga ari inkende, na ko kaba kagiye gutera nk'inkende ariko ntago ari inkende.

Inyoni ya kasuku ni inyoni ikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'amabara yayo cyangwa se n'ukuntu iteye n'imimerere yayo n' ahantu ikunze kwibera.

Akangaka ko ni akanyayamaswa ko mu ishamba kamenyaga kwirukanka cane! aka kabaga akantuza bakitaga agasha. Isha intare zikunda kugahiga ndetse n'izindi nyamaswa nk''ingwe.

Iyingiyi yo ibaga inuma ibaga mu bwoko bw'inyoni ziguruka ariko ziteraga amagi matoya cyane cyane ariko agamagi go ntabwo gameraga nk'ag'inyoni kuko garari bwaga.

Imvubu ni inyamaswa yo mu gasozi, iba ifite amahembe atatu ku mutwe wayo, ikaba ipimaga ibiro biri hagati ya maganarindwi n'igihumbi; ubwo ni toni.